Umuganga uri aho batangira imiti, harimo imiti iri mu macupa, iri mu dukarito n'indi itandukanye.

Imboga twita amashu y'ibibabi ,bayasoro m basoroma ibibabi n'ibyo barya ,ibishyimbo bigufi n'utundi twatsi dutandukanye.

Icyatsi gifite amashami menshi kiri kumwe n'ibindi byatsi byatangiye kuzana indabyo, babyita kuraba. Ni ibyatsi byiza bitoshye.

Igishanga kirimo ibyatsi by'amoko atandukanye, hari ibyatsi bizamuka nk'indabyo bikeramo uturabyo, hakaza n'ibindi byatsi byera biranda mu butaka.

Igiti gifite amababi ameze nk'ay'intoryi bacyita intobo karemba, kivura indwara zitandukanye , impande y'aho hariho ibibabi by'ikindi giti byumye n'utundi twatsi twamereye aho. Intobo karemba yameze mu rutare cyangwa se mu butaka bukomeye cyane.

Inteja zimera ahantu mu ifumbire, ikibonobono kimera ahantu habonetse hose n'ibindi byatsi byinshi bitandukanye.

Umurima urimo amoko atandukanye y'ibiti. Harimo ikibonobono kigira amababi ashwanyaguje, harimo n'utundi twatsi twinshi dutandukanye.